Kugura intebe nziza biba byiza, bituma abakiriye bawe bakugannye baje kunywa inzoga bataha bishimye, bavuga akabari cyangwa se bara ni byiza kuyinyweramo isa neza.

Nigeze kujya mu nzu ifite saramanje, abantu nsanga benshi bicayemo bari bicaye bari kurya ibiryo byari biryoshye ,ariko barambwira ngo murisaramanje hicaramo abakire kuko ni bo intebe ziba zarateguriwe ,ngewe kubera ko nari ndi umukene baransohora, harya ibyo bintu bibaho?

Ababyeyi iyo bari gusangira n'umwana wabo biba byiza kuko baba bishimye, bararya, bakanezerwa ese umwana akabona uburere kuko papa na mama baba babanye neza. Mama aba ari gutamirira umwana, papa akamuha akaji kugira ngo umwana wabo abone ibyiza. Si byizako wabasohokana mu kabari.

Mu gitaramo, abantu baratarama, abandi bakareba igitaramo, ndetse bakarikesha, kubera igitaramo cyabaye cyiza. Bakaba bose bishimye.

Kugira hoteri ikaba nziza, nawe ubigiramo uruhare, kugira ngo abakiriya bawe bahore bavuga ngo wubatse inzu nziza. Gushimwa kwawe uzashimwa, kubera ko wagize nziza inzu yawe.

Ibirori birashimisha ndetse ugahuriramo n'abantu benshi muka muganira, mukamenyana ,bagasabanaga biba byiza cyane. Kuko uwo munsi ni umunsi uba udasanzwe baba byiza.

Gucuruza bisaba ubwenge imbaraga n'ukwihangana no kwitonda. Iyo ucuruje uri igisazi bisabako uhora uri guhomba, kugira ngo wunguke bisa kugira ngo uce makeya ube umugaragu w'abandi.

Kugura moto bisaba imbara nyinshi. Izo mbaraga bisaba kuzigama igihe kirekire, ndetse igihe kirekire ukakibyaza umusaruro kugira ngo uzagure moto nziza wishimiye, kandi uzayikoreshe iguhe agaciro kawe wagennye.

Nkunda abacuruzi ba butike, barihangana bakicara bagategereza, iyo hari n'agacucu ko mu giti baragenda bakicaramo batazi uwo basezeranye, bagacuruza magana abiri, ijana bakungukaho igiceri cy'atanu, icumi, ariko bakihangana bakazarinda kugwiza amafaranga, ni abantu bihangana.

Gukora ubukwe, usabwa gushaka gato, imigati cyangwa inzoga ziryoshye, kugira ngo abatashye ubukwe bose batahe bishimye, kuko n'ubundi ni ubukwe bwabaye igitangaza.

Amakaro atuma inzu igaragara neza ndetse ukabona ko imibereho yakeye kandi ni yose yifuza kugenda neza.

Umuntu ucuruza imyenda arayitandika, kugira ngo umukiriya aze afite iyamurangaje, ahitemo umwenda ashaka awugure, awujyane iwe mu rugo azajye awambara.

Mbere nagira ngo abantu bashinzwe umutekano bagomba kuba ari abagabo gusa, nagiye kubona mbona n'inzego z'abagore zibamo kandi bakora umutekano nabo kimwe n'abagabo. Buriya rero bigaragara ko uburinganire ari mu nzego zose buba ari bwiza kandi buba bwiza cyane.

Gucuruza ni ukugira disipurine cyangwa se umuco, kugira ngo abakiriya bakugane ari benshi, iyo uri umuganga uvuga nabi, abantu bari kwivuza iwawe nta serivisi ubaha.

Kubaka inzu nziza y'ubucuruzi. Igira abantu benshi bashakaga kuyikoreramo ndetse bakayicururizamo ibintu byiza byinshi, abantu benshi bakunda kuyiyoboka.

Gucuruza ibintu bijyanye no kurya bisaba kugira ngo ujye uragira isuku, abaje iwawe basange ufite isuku kandi noneho ugire ibintu biryoshye, bose babibone babikunde.

Kubaka inzu ku muhanda biba byiza, abantu bajya guhahiramo niyo ari amasaha ya nijoro baraza bagaha biboroheye, kubera ko haba hafite umutekano, biba byiza.

Gucuruza ibitabo cyangwa se amakayi bifasha umuntu akabona amafaranga, ndetse bigatuma abanyeshuri babone aho bagurira ibikoresho bajyana ku mashuri, biba byiza kuko biba byoroshye kandi kubigura birahenduka muri papeteri babicuruzamo.

Tujya muri bale akabari keza kagira inkoko, inkwavu, burushete ndetse hakajya habamo n'ibirayi bya bindi byitwa mucoma. Biraryoha ku birya urabiryaya ukumva urahaze, kubera ko n'ubundi baba biryoshye. Biryoha.

Inzu z'ubucuruzi ziba nziza, iyo uzubatse ukazishyiraho imitako ziba nziza. Abantu barazikunda kuba bazicururizamo, bakaba banazitembereramo kubera ko zubatswe neza. Ziba nziza cyane.

Guhinga urutoki ruba rwiza ruduha ibitoki tukabirya, wateka kuri gaze igitoki gihira iminota mikeya kuko ari ibiryo byihuta, binafasha umuntu mu nda kugira ngo horohe biba byiza.

Nkunda ishami rya Emutiyeni ndetse cyane cyane iry'i Musanze Ndikunda cyane. Kubera ko iyo ngezeyo, njya yo bakampa serivise nta kibazo nyine ndarikunda.

Umuntu aravuga ngo njyewe ngiye gukora akazi kanjye, ariko ndandikaho icyapa kivuga ibyo nkora. Najya kwita nkita ngo" Njyewe ho ndi runaka". Agashyiraho n'ibyo akora. Biba byiza, kuko aba yiranze aho akorera.

Iyo wubatse inzu nziza ubona abantu baza kuyikodesha, bashaka kuyikoreramo, bakakwinjiriza amafaranga, bajyaga baraza bakanyweramo n'inzoga cyangwa bakaza kuriramo ibiryo bitetswe neza, biba byiza kuko iyo nzu iba isa neza.

Abagabo bava mu rugo bagiye gushaka akazi, bagera aho bagomba gutegereza aba bosi bagomba kubakoresha bakaba barababuze, bakaganira ikiganiro ndetse kagira uvamo akavuga ati jyeweho nihebye muze jye kubagurira, bakagenda bakajyenda bakagurirana bakinywera.

Ibikoresho by'amashanyarazi biba byiza, kuko bituma gukora amashanyarazi, tugacana amatara tukabona, umuntu akagenda mu mucyo hakeye.

Nkunda kurya ibigori byokejwe, bimwe botsa n'umuriro. Ibigori biba byiza tuhumuza mu kanwa, ukaturya ukumva mu kanwa hasigaye hari guhumura.

Kujya mu nzu ndende ifite etaje biravuna. Iyo usanzwe ufite ikibazo cy'ubumuga kugerayo biragorana cyane bikaba ikibazo kugerayo.

Inzu kuyubaka ugashyiraho amakaro, igaragaraga neza, ikaba nziza, uba uyongereye gukomera, kugira ngo amazi adacengera mu gikuta, bikagaragara neza n'inyuma, kugira ngo abantu bose bayibonye bakabona ko ari nziza, iba ari nziza cyane.

Gukoresha ipoto y'icyuma biba byiza, iyo yubatse ukayiha utugazi two kuririraho cyangwa se ugakora akantu ko kuririraho. Iy'icyuma irakomera ndetse ku buryo nta muntu wayijegajeza. Iyo ufashe n'icyuma ukayishingaho kiba cyiza cyane.

Nigeze kumva umukire arikuvuga ngo"nzubaka iduka rinini, ndihe imiryango myiza ,ndihe igisenge cyiza,, noneho nyuma yaho nshyireho utudodani hejuru y'igisenge, kugira ngo abantu bajye baravuga ngo 'runaka yubatse iduka ryiza. '" Nanjye nagiye kureba nsanga yaryubatse, nsanga ni ryiza, riba ryiza pe.

Gutwara igare biba byiza, ujya gupakiraho imizigo, amakara ndetse n'ibirayi, waba ufite na butike ugapakiraho nka gahunga ndetse n'imiceri, kugira ngo bigufashe bigusayidire kugira ngo ubone uko ucuruza bikoroheye biba byiza.

Nkunda umuntu useka bituma umubonamo icyizere, ukamubonamo inama nziza, kandi ukamubona nk'umuntu mwiza iyo aseka, uwo muntu agwa neza niyo yaba afite ikibazo umubonamo ko ari umuntu mwiza, aba mwiza cyane.

Kubaka inzu ukakayiha inkingi zikomeye, bituma inzu igira uburambe, ndetse n'abagiye kuyikoreramo bakumva bafite umutekano uhagije. Biba byiza cyane iyo uyubatse ukayikomeza, kuko ntiwakwisondeka ari iyawe. Biba byiza kuko uba wayikomeje.

Kugura impeta biba byiza z'urukundo, iyo uguriye umukunzi wawe biba byiza arishima mukabana aravuga ngo nambaye impeta ya cheri yambitse kandi iba ari iy'agaciro, baba byiza kumwambika impeta nawe akishima akazajya arahora ari kuvuga ngo umu cheri wajye.

Nkunda igare kuko rirafasha mu kazi ko mu rugo, N'iyo waba uri kubaka riramufasha, avoma amazi menshi, kandi mu gihe gitoya. Rikagufasha kuba wakora akandi kazi, rikagutwara, rikakugeza iyo ugiye vuba.

Igikapu kiba cyiza iyo ushyizemo ibintu nta muntu umenya ibyo ushyizemo, kiba cyiza kuko ugiheka mu mugongo, wagenda ukumva ko wowe bwawe ibyo utwaye wizeye umutekano wabyo, biba byiza iyo wowe ubwawe ugikoresheje neza.

Ku ruganda rw'Inyange nahaguze amazi. Bampa na ji. Byari byiza. Biba byiza biranaryoha. Ibyo bacuruza byose nasanze ari byiza. Yewe kuri saha nabonye umuryango wanjye nzajya ndawugurira Inyange.

Kubaka hotel ugomba kuyiha amadirishya, inzugi ukayikora ku buryo bukomeye, kugira ngo hatazagira umuntu uzayangirikiramo igihe yaje kuyiruhukiramo. Hoteli ibera nziza abantu baje kuruhukiramo igihe cyo bateguye.

Nifuza mbonye amafaranga gucuruza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga: telefone ,kompiyuta, ndetse na za kamera byaba byiza. Imana n'impa amafararanga nzabicuruza.

Gupakira imizigo ku igare, bisaba kuba ufite imbaraga, unasanzwe ubitwara. Kugira ngo bitaza kukubenukana bikaguta hasi, ukagira ikibazo cyo gukomerereka.

Nkunda ibintu by'imitako, imideri yabaga igaragara neza ku buryo umuntu wese ayibona mu mabara ashaka, kandi iyo ugiye ku yagura uyagura ku buryo weho wishimira ibara ritanditse ubona ari neza.

Abagore bakora muri saro, bakagenda bagasuka imisatsi y'abagore bagenzi babo. Biba byiza iyo ubonye umugore yarize umwuga wo gusuka, biba ari byiza kuko na we yiteza imbere.

Uruganda rwa Amusiteri rukora inzoga ziryoshye. Yewe nkunda kuzinywa ziraryoha. Uwazinyoye nta n'umutwe umenagurika. Ariko izindi zimenagura umutwe.

Nkunda gucuranga amakuru, radiyo kuko itugezaho amakuru agezweho. Utunze radiyo ugomba guhora buri gihe uteze amatwi kugira ngo umenye aho igihugu kigeze.

Isoko riba ryiza iyo rifite ibiribwa, ndetse bakagira aho kujya kurira, rikagira ubwiherero, rikagira ibyo guhaha ndetse rikagira n'abakiriya, riba ryiza.

Kubaka inzu ukayiha akabaraza kavunnye. Iyo kavunnye neza, kagira inzu nziza iyo nzu bigatuma igira agacucu, ku buryo abantu bose baza kugama muri rwarubaraza izuba cyangwa se imvura, biba byiza.

Gupakira imodoka imifuka bisaba gutondeka ku mubare, kugira ngo urabipakira n'urabipakurura bahuze imibare, kugira ngo raporo bihure neza biba byiza iyo wabitondetse ku mubare wabaze neza.

Nkunda inzu zubatse zigeretse yewe niyo bibaye ngombwa njya kuzitemberamo nkazizereramo kugira ngo nanjye ndebe uko zubatse neza. Ndazikunda mu buryo buhambaye, yewe nanjye mfite amafaranga nazubaka ziba nziza.

Nkunda abacuruzi kuko batuma duhahira bugufiya. Amaduka iyo bayashinze buri wese ajyayo akajya kugurayo ibyo akoresha, nk' umunyu ubwo ugashyira mu biryo bikaryoryoha iyo ushyizemo umunyu.

Ingorofani ipakira ibintu byinshi imyaka amasabune umunyu kandi ikabijyana aho babijyanye ikagezayo ibintu byinshi iba ipakiye ikora akazi kenshi.

Kwambara umwenda usa biba byiza kuko biba biri kugaragara neza, ku bantu bose kuko umuntu wese aba asa n'undi. Nta muntu wavangura ngo uriya yambaye neza nambaye na bi biba bisa neza.

Gutegura ibirori, bigomba kuba ari abantu barenze umwe. Kugira ngo bunganirane, bigende neza. Buri umwe wese azane igikoresho cye, agihuze n'icya mugenzi we.

Nkunda gukura mu rugo rwiza, rukoze neza, rufite imodoka, ukagenda mu modoka ntakibazo, noneho n'ukubonye akavuga ngo uvuye mu rugo rwiza.

Gucuruza imbuto, ziba nziza kuzitandika .Umuntu araza agahitamo izo ari gukunda ziba nziza, cyane cyane iyo ufashe inyanya ukazivanga mu gitoki, biraryohaha biba byiza.

Isanduku bayishyinguramo umuntu iyo yapfuye, bakamuhamba. Iyo bagiye kumuhamba habonekaho abantu benshi, ndetse haba n'umugenzo wo ku begera abakobwa. Iyo yari umuntu ukuze, arababegera.

Nkunda akamaronji kuko araryoha, wotameloni ziravura ziba nk'umuti. Iyo umuntu afite nk'umuvuduko ziba nziza. Imyembe na zo ziraryoha byose biryohera abantu.

Nkunda imiteja kuko kuyigura ukayitekana n'ibitunguru biryoha. Mu isoko biba ari ryiza, byose bibamo n'umutako mwiza.

Karoti n' inyanya kubiteka biraryoha baba isosi wabirya ukumva biryoshe, biraryoha cyane.

Isoko riba ryiza, ubona aho uhahira, ikintu cyose ushaka habamo imyenda, habamo imbuto, habamo ibirayi, habamo n'ibishimbo, habamo n'intoryi ndetse n'amatunda.

Kubaka inzu ndende igeretse, ukayiha ibirahure kugira ngo ujye urareba hanze, biba byiza, iyo utuye ahantu hagera umuhanda, imodoka ukajya urayiparika iwawe, biba ari byiza.

Guhinga intoryi biba byiza ndabikunda. Kuko iyo uzihinze, ugahinga imiteja na yo biba byiza, iyo uziifashe ukaziteka ziba imboga nziza zigira intungamubiri.

Kunywa fanta byongerera umuntu imbaraga, kubera ko iba ikoze mu bijyanye n'imitobe, isukari yiyongera mu mubiri, kugira ngo ukomeze urugendo, ugere iyo wari ugiye utananiwe.

Kurya umuneke uraryoha kubera ko ufite isukari y'umwimerere, amatunda na yo araryoha y'ubwoko bwose, ibinyomoro, amaronji ndetse na wotameroni biraryoha.

Voka ziba nziza zivamo ibintu byinshi :bazikoramo isabune, bazivanga n'ibindi birungo zikavamo mayoneze. Iyo uziriye kubiryo zonyine ziragufasha ukaba umeze nk'uwariye mayonezi, zararyoha.

Ubucuruzi buba bwiza kuko uhorana amafaranga, ugahorana ibyo kurya. Abantu benshi bakwibazaho kuko weho ufite amafaranga ugahora...

Ibyuma bishaje biba iby'agaciro, kuko bikorwamo ibindi, iyo bigeze mu ruganda, baragenda bakabishongesha ibyo babishongeshejemo bakagenda bakoramo ikindi cyuma kizima, kiraza kigafasha abantu kugira bagikoreshe.

Isoko rigira ibintu byinshi. Imyambaro, abantu baba baje guhaha baguramo imyambaro, bakagenda bakambika abana babo, abana babo bakishima cyane, kubera ko isoko rigirwa n'uko ritatswe, n'amatara nayo ahari.

Kujya mu nzu yo hejuru bisaba kuba ufite imbaraga. Uri umuntu utishoboye kwigenza byakuvuna. Kujya hejuru bisaba kuba ukomeye, kurira ukagerayo nta kibazo.

Igikombe kiba cyiza ukinywesha amazi, agaseke uagahahiramo, ukagatwereramo, amatara aba meza aboneshereza abantu, agatanga urumuri.

Nkunda agasanduku ko kubikamo amafaranga, gatuma nizigama, umutego w'imbeba, iyo imbeba uziteze zigafatwa, uzikuramo, zigatuma zicika mu nzu. Igisu ndagikunda, kugihatisha ibirayi.

Uduseke tuba twiza gushyiramo ipfukire, umugore ugafashe ubona aberewe, kaba keza kuko ntawe umenya ibyo yashyizemo niwe uba ubizi, Kandi none ho, niyo uguze imbabura, ukagenda ukayicanaho ibiryo biraryoha.

Isafuriya iba nziza, bayitekamo ibiryo abantu bakabirya, iyo ubiririye biba byiza ubona intungamubiri bigufasha kugira ngo ubone imbaraga zo gukora iyindi mirimo, biba byiza.

Botike muri karitsiye abantu benshi batuyemo, ibagirira akamaro. kubera ko nta muntu ujya guhaha bimuvunnye, biba bimwegereye aho iwabo muri karitsiye atuyemo.

Abantu benshi bajya mu isoko guhaha. Iyo bagiye guhaha, babona utuntu twiza, bakatuzanira abana babo mu rugo, kugira ngo n'ubundi bikenere kubyo baba bakeneye. Bikaba ari byiza mu kazi kabo.

Butike yewe irashimisha, ibagitatse, bashizemo ibirungo, ibyo kurya byo musombe, ibyo mu nyama, ndetse bashyiramo amajyane, wageranyuma ukagura ubuso bakajya bariboroza, twe dukoza amenyo biba byiza kuko amenyo aracya.

Kurya imbuto biba byiza, bituma umuntu imbere aba neza, ibipapayi bituma mu nda horoha, iyo wanyoye inzoga, bituma ugabanya umunaniro inzoga zari zaguteye, ibipapayi biraryoha.

Kunywa amazi bitera umuntu kugira ubuzima bwiza, akura imyanda mu mubiri umuntu agakomezanya, amaraso ye agatembera , urugenda akaba yarugenda ntananirwe, yewe agabanya n'ibiro ku muntu ufite ibiro byinshi iyo ayanyweye ashyushye.

Gucuruza mu isoko abantu buri wese akubonagamo ubushobozi, ndetse akabona ko ibyo ucuruza nawe azabicuruza, kubicuruza biragorana ni ngombwa rero ko buri wese agomba, kuba yakwitegura akitoza gukora ikintu ashoboye biba byiza ukoze icyo uzi.

Kera habagaho umuco wo kugendesha ibirenge, kandi bari bafite imitungo ariko batazi kuyikoresha neza. Iterambere riba ryiza. Iterambere rituma abantu bambara n'inkweto bakambara imyenda ifuze isa neza. Riba ryiza.